Akazu ka MTN kanditseho ngo k'umuhondo kanditseho n'amagambo y'umutuku ngo mo MTN Mobayilomani, bigaragara ko ari aho bacururiza amayinite ya MTN, iruhande hari umuhanda uriho imodoka, ako kazu inyuma yako hari indabyo nziza.

Ndabona abantu harimo uwambaye ipantaro y'umukara inkweto z'umweru, isengeri ijya gusa n'umuhondo, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye inkweto z'umukara, abo abantu bigaragara ko bahagaze imbere y'umuryango ukinguye ,harimo intebe zimeze nk'aho ari mu byumba by'amashuri ,bigaragara ko ibyo bari gukora ari ibifitiye inyungu rubanda.

Imbere y'icyapa cyanditseho Momo MTN cy'umuhondo hahagaze abagabo batatu n'umudamu umwe, umwe muri abo bagabo afite ifoto abandi batatu basigaye bambaye amajire asa.

Umugabo wicaye mu ntebe yambaye ikoti, karuvati y'umukara n'ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umukara, afashe ikirango cyanditseho ngo: "Ohereza amafaranga ku mirongo yose", iruhande rwe hari ibyapa bibiri byamamariza Airtel.

Umusore wambaye itaburiye y'umutuku irimo ibara ry'ubururu ritambitse n'iry'ikigina ritambitse, iyo taburiye ni iya Airtel, inyuma ye hari umutaka wa Airtel wanditseho ngo Airtel mu kazi kose.

Turabona umukozi wa airtel, uwo mukozi imbere ye hahagaze umugabo ufashe telefone ngendanwa mu ntoki, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, yatebeje neza n'umukandara w'umukara, biragaragara ko ashaka kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga kuri uwo mu agent.

Abasore batatu n'abakobwa babiri, umukobwa umwe arangariye muri terefone, undi ari kurebana na mugenzi we w'umuhungu, ndabona umuhungu ufita agatabo k'ubururu yambaye ingofero y'ubururu, n'umupira w'umukara. Inyuma ye hari undi muhungu wambaye agapira k'umuhondo kanditseho umubare gatatu.

Umugabo w'igikara wambaye isaha, yambaye ikoti ry'ikivuvu, yambaye agapira k'ubururu mu nda, afashe igikombe bigaragara ko ari igihembo yahawe bitewe n'icyo yatsindiwe.

urebye neza urabona ubwoko bw'imbuto zitandukanye, harimo amatunda n'izindi zitandukanye, urabona ko bisa n'aho ari ubwoko bw'imbuto butandukanye baba bazanye, abantu bakorera hamwe nko muri coperative se cyangwa banki ,baba baje kugira ngo izi mbuto zikorwemo amaji yo kunywa ,kuko urabona ko kuruhande hari izatunganyijwe ziri mu ducupa.

Ni mu cyumba turabonamo inkoko nyinshi cyane bubakiye, biragaragara ko aha ari ahantu bakorera ubworozi bw'inkoko ndetse biragaragara ko abo bantu bishyize hamwe kugira ngo babashe gukora koperative cyangwa se bashyire hamwe kugira ngo bakore ubu bworozi bw'inkoko.

Abantu bicaye mu kigango harimo abambaye ibishanana, harimo udupira tw'umutuku turiho ikirango cy'igihugu, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ikoti inyuma ye wambaye ingofero yambaye n'amataratara, hirya yabo hari abandi bantu bambaye udupira tw'ubururu.

Icyapa cy'ubururu kiriho amagambo y'umweru y'icyongereza handitseho ngo Nyagatare invesitimenti foramu, hari umugabo uhagaze kuri mpimbara ari gusobanurira abandi, abandi bantu bicaye bigaragara ko hari abantu baje mu nama cyangwa se bitabiriye iyi nama.

Abagabo batatu bicaye ndetse bigaragara ko bicaye inyuma, bicaye imbere y'icyapa cyanditseho ngo Repubulika y'u Rwanda, Akarere ka Nyagatare, kwizihiza umunsi mukuru w'amakoperative mu Karere ka Nyagatare kuwa makumyabiri n'icyenda muri bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu bahagaze imbere y'inzu higanjemo abagabo n'abadamu bambaye udupfukamunwa, bigaragara ko bishobora kuba mu gihe cy'icyorezo, inyuma yabo hari inzu, iyo nzu iruhande rwayo hari udushyamba cyangwa se hari ibiti.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu kariho ikirango cy'Igihugu. Uwo mugabo afashe mikoro bisa naho ari kuvuga ijambo. Hirya ye inyuma ye hari ibintu bimeze nk'ibiti birebire ndetse bisa naho hari abantu ari kuganira nabo, ari kugezaho ijambo.

Abantu bambaye amakoti, abagabo bambaye amakoti, harimo n'abadamu bambaye bamwe bambaye amapantaro abandi bambaye amakanzu harimo abambaye ikanzu y'icyatsi bigaragara ko bari ahantu hasirimutse cyane bafite icyo bishimiye kandi bari bari kuganira.

Umugabo muremure ufite uruhara biragaragara ko ahagaze imbere y'abantu, afashe mikoro mu ntoki imbere isa n'umutuku ariko irimo akantu k'umuhondo gatambitse, uyu mugabo yambaye ishati y'umukara bisa naho hari icyo ari kugeza ku bamuteze amatwi.

Itsinda ry'abantutu bahagaze, muri abo bantu harimo umugabo wambaye ikoti rye gusa n'umukara n'ishati y'umweru n'uturongo tw'ubururu, afashe mikoro mu ntoki, agaragara nk'umuntu uri gusobanura. Imbere yateretse inasi nyinshi ndetse azengurutswe n'abandi bantu bambaye udupira harimo utwiganjemo utw'ubururu.

Umukobwa wunamye, wambaye ipantaro n'agapira k'umweru kariho umukara ukuboko, afite ikureti y'amagi, ahagaze mu mu nkoko hagati, biragaragara ko ari gukura amagi aho inkoko ziba zayatereye.

Igipangu kimeze neza iki gipangu harimo udute duteye hanze bigaragara ko hubatse hoteri, ndabona harimo jaride nziza cyane y'indabyo zimeze neza, inyuma yaho hari ibiti birebire byiza cyane.

Iduka bigaragara ko ari iduka ricuruza ibinyobwa cyane cyane ariko higanjemo ibintu bimeze nka za warage, harimo n'amaji, harimo n'ibimeze nk'amata ndetse bigaragara ko ari iduka ryihagije mu binyobwa.

Ni mu iduka. Umudamu wambaye ikanzu idoze mu bitenge bisa naho ari gucuruza. Imbere ye hari utudobo turimo ibintu. Hirya urabona ko hari ibirungo bigaragara ko acuruza ibintu bigiye bitandukanye. Afite amafaranga mu ntoki bigaragara ko bari bamaze kumwishyura.

Ndabona akantu kameze nka akabuwate bigaragara ko ari ako bacururizamo ibiraha kuko ndabona umuntu, ibiraha bitatu byasigayemo ibindi byose babiguze kandi ako gateretse kuri sima.

Umudamu, umudamu iruhande yahagaze mu muryango, iruhande rwe hari agatebe k'ubururu, inyuma ye hari iduka bigaragara ko harimo imiceri ya kawunga ndetse n'ibindi birungo bigiye bitandukanye.

Umugabo muremure iruhande rwe hahagaze undi mugabo mugufi, umugabo muremure yambaye umupira, urimo amabara y'umweru, umutuku, ubururu ku mupira we handitse nimero gatandatu, muri butike irimo ibicuruzwa bitandukanye.

Abantu bari mu kiyaga bigaragara ko ari umupasiteri uri kubatiza, yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, ari kubatiza abantu bambaye amakanzu y'ubururu kandi abo bantu bigaragara ko ari abagabo.

Turabona urusengero rwiza cyane, urusengero rufunguye imiryango ibiri, ku ruhande rw'ibumoso urahabona ubukarabiro bwiza bw'amakaro y'umweru, noneho imbere y'urusengero urabona ko hari akajaride k'indabo nziza cyane. Hari n'umuntu uhagaze ku ruhande rw'iburyo w'umudamu.

Abona umupolisi, umupolisi ari kumwe n'undi mugabo wambaye ibikanzu birebire, bafashe icyapa cya polisi cy'ubururu cyanditse ngo "Gerayo amahoro", umupolisi yambaye amarinete ndetse hibya hagaze undi mugabo.

Ni mu rusengero, biragaragara ko harimo abantu batandukanye, abantu bose barahagaze buri wese afatanya na mugenzi we mu kiganza, biragaragara ko bantu ari babiri babiri bafite ibyifuzo bari gusengera.

Mu rusengero abantu baricaye ubona ko bateze amatwi umuntu uri imbere cyane, imbere y'uwo muntu biragaragara ko hari igishushanyo cya bikira mariya kiriho n'umusaraba, bikira mariya ashushanyije mu gishushanyo cy'umutuku, bigaragara ko hari umuntu urikubagezaho ijambo ry'Imana.

Urusengero rwubakishije amabuye ateye amarangi y'umweru n'ay'umukara, ku rusengero hejuru hari umusaraba uri mu irangi ry'umweru, urwo rusengero rufite imiryango ibiri yose ifite inzugi ziteye amarangi y'umukara.

Ndabona abakiristo, harimo abagabo, abadamu, bahagaze, imbere y'urusengero bigaragara nk'aho bavuye gusenga, hanyuma nyuma yo gusenga baza imbere y'urusengero, barifotoza bigaragara nk'aho n'iby'ijambo ry'imana bari bavuyemo.

Umugabo bigaragara nkaho ari umu pasiteri cyangwa umwigishwa mu rusengero, yambaye karuvati n'ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara. Hirya hari umuhanda urimo imodoka, ku icyapa ahagaze iruhande cyanditseho ngo ''new life bible church'' bigaragara ko ari aho bigishiriza ubuzima bwa bibiriya.

Hari ameza, iyo meza iteretseho ibishushanyo bisa nahoho aribyo mu rusengero urabona aho umusaraba ku ruhande hateretse ibindi bishushanyo hari abagabo bane bambaye amakanzu y'umweru hagati yabo urabona ko harimo umugabo wambaye iby'umukara afite ubwanwa bw'umweru bigaragara ko ari umusaza yambaye ingofero y'umukara bigaragara ko bari kuganira ku byo ku rusengero cyangwa se bari gusengera hanze.

Ni mu rusengero ruteye irangi ry'umweru. Urebye ku gikuta hari umusaraba utari mubara y'irange ry'umweru. Ku ruhande hari andi mabara arimo umukara. Hacayemo umugabo munsi y'uwo musaraba.

Abagabo b'abayisiramu harimo umwe, bambaye amakanzu y'umweru harimo uwambaye ikanzu y'umukara n'ingofero y'umukara, hasi hari kugaragara akantu k'umutuku bisa naho ari guhinga, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye ikoboyi n'ishati ijya gusa n'umweru.

Urusengero rwiza cyane rw'amabati y'umutuku, ruteye amarangi y'umweru, hariho ibirahure b y'umukara ndetse n'inzugi z'umutuku, handitseho ngo ''itorero rya ADEPER umuhango wo gusengera umushumba w'ururembo rwa Nyagatare n'abashumba ba paruwasi''.

Abantu, abantu benshi cyane bigaragara ko ari abakiriristo harimo bambaye ikanzu, harimo uwambaye ikanzu y'umutuku abandi bambaye amakoti, abandi ni abadamu bambaye ibitenge bambaye n'udupira, inyuma yabo hari urusengero iruhande rwabo hari ibiti birebire cyane.

Ni mu cyumba abagabo bambaye amakoti, bambaye udupfukamunwa, abenshi biganjemo bambaye karuvati z'umutuku, barapfukamye amaboko yabo ari hejuru, bari gusenga Imana.

Abantu benshi bambaye amashati y'ubururu n'amakabutura y'umukara bicaye mu kibuga, imbere yabo hagaze umugabo umezeze nkaho ari umusaza, yambaye ikanzu y'umweru ,irimo umukaba w'umutuku afashe mikoro mu ntoki.

Ni mu rusengero harimo amatara atari kwaka, imbere ku ruhimbi hari ururabo rwiza rutetse imbere y'umusaraba, imbere y'urwo ruhimbira nanone kandi hari indabo eshatu nziza zisa, urabona ko ari urusengero rwiza kandi rufite amasuku.

Ni mu rusengero ku ruhimbi, urebye neza urabona igishushanyo kirimo abantu, ku ruhande urabona abantu bicaye, bigaragara ko bari kwitegereza ku ruhimbi cyangwa se bari kwitegereza umuntu urikwigisha. Ku ruhimbi urabona hejuru ku ruhimbi hasshushanyije ibishushanyo by'amabara atandukanye biriho imisaraba n'ibindi.

Inzu nziza igerekeranyije imbere y'iyo nzu haparitse imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi ijya gusa n'umweru, ku ruhande rw'iyo nzu hari ibiti byiza birebire, hirya y'ibyo biti hari amapoto y'amashanyarazi.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye bambaye imyenda y'umukara, ingofero z'umukara, ku maboko yabo hariho amabara atambitse y'ubururu, umuhondo n'icyatsi bikoze idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hateretse amacupa ya Fanta.

Intebe z'imifarizo eshatu nizo ndibona imwe ndende iteretseho udusego dutatu indi imwe iteretseho kamwe n'inditeretsehokamwe harimo n'izindi nerifareso hari ameza gateretseho igitabo n'ururabyo rwiza.

Inzu nziza, iyo nzu uko bigaragara imeze nka hotel hanyuma urebye neza imbere yayo hari amazi meza ubona ni amazi yubakiye abantu baje muri iyo hoteli bogeramo bakaruhuka ndetse urabona ko imbere y'iyo nzu hari udutebe duteye neza bigaragara ko ari aho bafatira amafunguro.

Ahantu hari ubusitani bwiza ubusitani burimo indabo, burimo amazi, hirya y'ubwo busitani turahabona ikibuga cy'umupira, hirya y'icyo kibuga hari ibiti ndetse bigiye birimo amazu y'abaturage.

Ahantu hameze nko mu cyumba, hari igitanda gifite imisego ibiri, icyo cyumba kigaragara ko ari icyumba cyo mubakire, kuko iruhande rw'i cyumba hari intebe zigiye zitandukanye hirya ku gikuta hari utuntu tumeze nk'amafoto abiri.

Ahantu hasa naho hari pisinine y'ubururu, hirya hari ikintu kimeze nk'ikibuga, ku ruhande hari ikintu kimeze nk'igikuta cy'amakaro, hakurya biragara ko ari hantu hatuwe n' abantu kuko harimo amazu ndetse ndahabona n'amapoto y'amashanyarazi.

Ubusitani bwiza ubwo busitani buriho pisine nyuma y'iyo pisine urabona umutaka mwiza w'umweru, munsi yawo harimo udutebe duteye neza bigaragara ko ari ahantu heza ku mazi cyangwa se mu cyanya cya hoteli.

Salon irimo televiziyo bigaragara ko iyo televiziyo umuntu abikoreyeba ahantu hari inzu n'ubusitani ku ruhande muri icyo cyumba harimo amafoto kuruhande harimo akameza gateretseho agapaniye, hariho n'intebe iteretse mu mufariso

Ubusitani bwiza bw'ibyatsi byiza by'icyatsi hirya yubwo busitani hari inzu yubatse neza bigaragara ko ari hotel cyangwa se ari ahantu abantu baza gufatira amafunguro ariko hiyubashye cyane kurusha muma resitora.

Ibyumba bigaragara ko ari muri hoteli, iki cyumba gishashe neza kiriho intebe kuruhande zigiye z'imifariso noneho harimo n'igitanda, kuri iki gitanda hariho imisego ibiri bigaragara ko ari ahantu hashobora kurara abakundana cyangwa se umugore n'umugabo.

Aha ndahabona imbuto zisa n'aho ziri mu gisahani, ku ruhande hari ipura hari isahane isa nk'aho iriho nk'inyama, ku ruhande nanone hariho isahani iriho amarushi ariho ubusa, hirya hari akantu kameze nk'akabati n'ako karimo nk'imbuto.

Inzu igegeranyije hejuru isakaye mu buryo bw'ikiziga, iruhande rwayo izengurutswe n'ubusitani bwiza, burimo indabo, imbere yayo hari umuhanda wa kaburimbo, ukoze neza w'umukara.

Ahantu hagaragara nk'aho ari aho barira, higanjemo amabara y'umuhondo, umweru, ubururu, hari udutebe tugiye dukikije ameza kandi ni ahantu heza bigaragara ko haraberamo inama mu masaha ari imbere

Ndabona icyumba cyiza cyane, icyo cyumba gikikijwe n'amarido y'amabara atandukanye, iki cyumba kirimo igitanda kiriho imisego itatu, gishashe neza. Imbere yayo hari intebe ebyiri hari n'akamwe gateretse, ururabo rw'icyatsi hasi ari umukara.

Urabona imyenda itanditse bigaragaza ko ari imyenda ya caguwa, urabona iruhande rwayo hari umuhanda, hirya hari amamoto ataparitse n'amamodoka, bigaragara ko ari ahantu abantu baza kurangura imyenda nabo bagiye kuyicurubozo.

Urabona uruvunge rw'abantu; aho abantu bari hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urahabona amashashi, urahabona imbuto zitandukanye, urabona ko ni ahantu hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye ndetse abantu baje kurangura na bo bagiye gucururiza.

Ni isoko ry'inkweto riri ku muhanda, urabona ko hari igare riparitse rihetse imifuka, imbere urabona ihema ririho inkweto nyinshi ,urabona ko hari abantu bunamye bari kugura, hari umwana uhagaze ari kwitegereza; ari kwitegereza cyane.

Umugozi banikaho w'umusirimu ntabwo ari umugozi ariko ni utwuma banikaho imyenda tugaragara ko ari utw'udusirimu, iruhande ndahabona igare riryamye hasi, hirya hari irindi gare riparitse; utwo tumanikwaho dusa naho dufashe ku giti, dusa n'amabara y'ubururu.

Imifuka myinshi irambitse ahantu irambitse ha akabase karimo udukombe tw'icyatsi ndetse naho kabasennaka'icyatsi, iyo mifuka ni iy'umweru, kumpande yayo hariho amabara y'umuhondo kandi iteretse hasi ku byatsi.

Ihema rishashe hasi, kuri iryo hema hateretse amabase y'amabara atandukanye: hari amabase y'umutuku, hari ay'ubururu, hari ay'icyatsi, ibase imwe mu ayo y'ubururu irimo imirunga, iruhande rw'iyo mirunga hahagaze umuntu umeze nkaho ari umudamu wambaye ikanzu y'igitenge.

Ubusitani bwiza urarabona ubwo busitani huwuzuyemo indabo zigiye zitandukanye, zaba ziri ku butaka ndetse n'iziri mu kirere, urabona ko mu kirere harimo amatara meza asa n'umuhondo, muri ubwo busitani harimo intebe nziza ziteye zitandukanye.

Ni muri resitora, urabona ko harimo ibikoresho byinshi bakoresha muri resitora. Urabonamo utumeza, urabona intebe hirya yaho, urabona ibirahuri byiza ariko bisa naho biri mu mabara y'umweru.

Ni ahantu higanje urumuri rwinshi, hari intebe z'umweru zikikije ameza ateretseho ibyo kurya biragaragara ko ari muri resitora cyangwa se aho bafatira amafunguro.

Urabona intebe nziza bigaragara ko ari izo muri resitora urabona intebe zegeranye n'utumeza bigaragara ko ari ahantu abakiriya baza hanyuma bakabaheraho ibiryo cyangwa se bakahaganiriraho.

Ahantu hameze nk'aho ari urusengero, mu rusengero hasi hari tapi irimo amabara y'umuhondo, irimo amabara ajya gusa n'umutuku, harimo intebe z'umweru z'umukara zikikije utumeze turiho ibitambaro by'umweru, bigaragara ko imbere hari uruhimbi bahagararaho bari kubwiriza.

Ni muri resitora urabona ko, ni hantu hari udutebe, utwo dutebe imbere yatwo hari utumeza bigaragara nkaho ari ahantu, abantu bategerereza ibyo kurya. Ni muri resitora ubona ko harimo ahantu heza cyane. Hari udutebe tw'umutuku abantu bicaraho.

Ahantu heza cyane hasa neza cyane .Ni mu masaha ya nimugoroba. Biragaragara ko ahantu ari muri hoteli cyangwa muri Moteli. Urabona udutebe tugiye dukikije ameza. Ayo meza urabona ko ni ameza y'ibiziga agezweho, biragaragara ko ari ahantu hasirimu.

Umumotari umumotari ahagaze imbere y'iduka; iryo duka ubona ko ryanditseho ko bagurisha amandazi bagurisha amazi, bagurisha amata n'ibindi bitandukanye. Inyuma ye haparitse andi mapoto ariho ubusa; bigaragara ko nabwo ari abandi bategereje abagenzi.

Umumotari utwaye moto, umumotari yambaye ikasike y'umutuku, imbere ye hari kasike y'icyatsi atwaye moto, iruhande rwa moto haparitse imodoka ebyiri nziza kandi bigaragara ko ari ahantu ho mu gasantere.

Umumotari wambaye agapfukamuwa k'umukara, yambaye ijire irimo umweru n'umutuku, yambaye kasike izamuye imbere, yambaye kasike y'umutuku, hirya ahagaze iruhande rw'umuhanda, hirya hari abandi bantu b'abamotari bahetse abantu, hirya hari inzu y'umweru.

Umumotari uri mu muhanda, imbere mu mahembe ya moto atwaye harimo agafuka k'umweru, yambaye kasike y'umutuku ndetse imbere hari indi kasike y'umutuku, iruhande rw'imihanda ndahabona ipoto ishinze y'amashanyarazi, hirya y'iyo poto ndahabona indi poto bigaragara ko hagati y'ayo mapoto abiri harimo undi muhanda wa kaburimbo.